Abana b'inshuke barimo gukina agapira ndetse hakaba harimo n'urimo kugendera ku mbago, mwarimu wabo akaba ari kumwe nabo mu buryo bwo kubafasha kuruhuka mu mutwe ndetse no kugira ngo bakurane ubumenyi bufite ireme.

Ibishushanyo bitandukanye bigaragaza abana bari gusobanurirana inkuru ishushanyije, abo bana akaba ari abana bane bigaragara ko barimo kwigishanya mu buryo bwo kongera uburyo bw'imyigishirize bunoze.

Ibikoresho bikoreshwa ku ishuri bigaragara ko ari ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo amakaramu y'igiti ndetse n'ibyifashishwa mu gusiba aho ayo makaramu y'ibiti yanditse, bikaba bigaragara ko hari n'irati y'igiti y'umuhondo.

Umunyeshuri ukiri mutoya ugaragara nk'umwana, urimo kwiga kwandika ku kibaho, bigaragara ko yiga mu kiburamwaka, umwana akaba bigaragara ko arimo yiga kwandika ku kibaho ndetse akaba yambaye ishati y'umweru irimo utudomo tw'umukara.

Ishuri rigaragara igice gitoya, rigaragara nk'ishuri ryigishirizwamo abana bo mu kiburamwaka b'inshuke. Iryo shuri rikaba rishushanyijeho ikibabi. Icyo kibabi hakaba hagaragara ibice byacyo bigiye bitandukanye.

Ishuri ryigishirizwamo abana b'inshuke, iryo shuri rikaba rishushanyijeho itoroshi ndetse ryashushanyijeho n'ikarita y'u Rwanda iri mu mabara atandukanye ndetse n'igogora, icyo kigo kikaba gisize irangi ry'umuhondo.

U Rwanda rurakataje mu iterambere ndetse n'isuku n'isukura ahagaragara indobo iteretse ku kantu gakoze ku buryo iyo ndobo bafungura akarobe kayo bakaba bakaraba, iyobo ikaba isa umuhondo bigaragara ko ari ahantu hahurira abantu benshi mu buryo bwo kunoza isuku n'isukura.

Agakoresho kameze nk'umutemeri ako gakoresho bakaba bakambara mu mutwe igihe bari kwizihiza isabukuru y'amavuko y'umuntu wavutse bundi bushya, kakaba kafite amabara y'umuhondo akozwe nk'inyenyeri ndetse n'ay'umweru, kaba gafite ndetse n'ibara risa ubururu hose.

Abana b'incuke bigaragara ko abo bana barimo gukina, bakoze uruziga, inyuma yabo hakaba hari umusaza wicaye ku gatebe ka kinyarwanda, aho bari gukinira inyuma yaho hakaba hagaragara inzu ifite urugi rw'ibiti.

Umuryango usa n'uri kwigisha abana bawo hari umugore n'umugabo bakaba bari kwigisha abana babo bigaragara ko ari uburyo kongera ubumenyi bw'abana babafasha mu myigire ndetse no mu myigishirize ku buryo bakura bafite ubumenyi bufite ireme.

Icyumba kigaragara nk'icyo kwigishirizamo abanyeshuri b'inshuke, hashushanyijeho ibikoresho bigiye bitandukanye mu buryo gufasha ababigisha kubahugura kugira ngo babashe gukura bazi ibishushanyo ndetse n'icyo basobanura.

Imyambaro itandukanye bigaragaraho n'udukinisho tw'abana, bagaragara nk'abana bo kiburamwaka, harimo amapantalo, imyenda y'amakote ndetse n'utundi dukinisho tw'udupupe dufasha abana biga mu kiburamwaka kwisanzura.

Abanyeshuri biga mu kiburamwaka, aba banyeshuri bikaba bagaragara ko ari inshuke, barimo gukina, banabyina bigaragara ko bishimiyemye cyane, mwarimu wabo ari kumwe nabo mu buryo bwo kumwisanzuraho bibafasha kwiga.

Agakinisho k'abana mu mabara atandukanye gasa n'akambaye ingofero ifite ibitsapfu by'umweru ndetse iyo ngofero ikaba isa umutuku, kaba gafite amabara meza y'umweru, umuhondo ujya kuba umutuku ndetse n'umutuku.

Ahagaragara nk'ikigo cy'amashuri ndetse hakagaragara uruhande rumwe rwo hepfo ko hari ishuri ryigisha incuke, rishushanyijeho inzovu ndetse ryanditse no mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'amabara y'ibendera ry'u Rwanda ku buryo bifasha abanyeshuri kwiga bazi ibyo biga.

Ishuri ryigishirizwamo abana b'incuke, bigaragara ko bishushanyijeho isazi ndetse bikaba byanditse mu rurimi rw'icyongereza ko ari ikiguruka gitoya, iryo shuri rikaba risize irangi risa umuhondo, hasi hari irangi ry'mweru, ibyuma biri mu madirishya yabyo bikaba bisa umukara.

Icyumba kigishirizwamo abanyeshuri bigaragara ko ari ishuri ryigishirizwamo abanyeshuri biga mu kiburamwaka, iryo shuri rikaba rishushanyijeho ibice by'amagufwa y'umuntu ndetse n'ibindi bishushanyo ku ruhande rwo ruguru bitagaragara neza.

Abanyeshuri bigaragara ko bafite agakwavu mu ntoki, abo banyeshuri bikaba bigaragara ko ari abana batoya cyane b'inshuke, biga mu inshuke, inyuma yabo hakaba hari utundi dukwavu turi mu kabuti katwo twubakiye neza.

Ishuri rigaragara nk'ishuri ryigisha abana b'inshuke bigaragara ko hashushanyije igishyimbo ndetse n'ibindi bishushanyo bigiye bitandukanye, mu buryo bwo kunoza imyigishirize no gufasha abanyeshuri kumenya byinshi birambuye.

Ishuri rigaragara nkaho ryigishirizwamo abana b'incuke, iryo shuri rikaba rishushanyijeho ingofero n'umwiko ndetse n'igitibo kiri hejuru kigaragara agace gato, iyo nyubako ikaba isize irangi risa umuhondo riri gushishuka ndetse n'iry'umukara hasi babonye amasima.

Ubusanduku bubiri bukoreshwa bubika ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya, harimo amarati y'ubwoko bwose ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya nk'ikaramu y'igiti ndetse n'ibikoreshwa guca uruziga.

Ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya ibintu bigiye bitandukanye nk'imirongo ndetse no gushushanya ibishushanyo bitandukanye, harimo amarati y'ubwoko butandukanye ndetse n'ikaramu y'igiti n'ibyifashishwa mu guca uruziga.

Umunyeshuri urimo kwinjira mu kigo bigaragara ko ageze aho binjirira binjira mu kigo, hakaba hari urugi rurimo ibyuma bisize irange ry'ubururu hagaragara icyapa kigaragaza icyo kigo icyo ari cyo.

Inyubako igaragara nk'ikigo cy'amashuri, iyo nyubako ikaba igaragara, yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hakaba hari ijerekani, isa umweru iteretse ku ntebe, iyo nyubako ikaba ifite amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'ubururu.

Icyumba cy'isomero kirimo ibitabo bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwigisha ndetse no kwiga gusoma, icyo cyumbmba kikaba kirimo akabati karimo ibitabo byinshi, iby'icyatsi, iby'umutuku, iby'umweru n'iby'ubururu buvanze n'umutuku ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikigo kigaragara nk'aho gishaje ariko icyo kigo kikaba cyubatse ku buryo bugezweho gifite ndetse n'aho binjirira hafunze neza, icyo kigo kikaba gifite ku gikuta indangagaciro na kirazira biranga ikigo ndetse n'umunyarwanda muri rusange.

Amarati y'ubwoko butandukanye harimo irate ica kimwe cya kabiri cy'uruzi, irati ica umurongo ndetse n'amarati ya mpande eshatu, hakaba hari n'ikaramu y'igiti ndetse n'igikoresho cyifashishwa baca uruziga n'igiconga ikereyo.

Inyubako igaragara nk'icyumba cy'uruganiriro ndetse bigaragara ko banahigira, iyo nyubako ikaba irimo amatara hejuru hasi hakaba harimo ameza n'udutebe dutandukanye tw'amabara y'ubururu ndetse n'umutuku, harimo n'ameza y'ubururu.

Inzira y'abanyamaguru, iyo nzira ikaba ishashemo amapave. Ayo mapave akaba akoze nk'umusaraba ku buryo mu bajya mu byerekezo bigiye bitandukanye, hari abari kujya imbere, mu mpande z'ayo mapave hakaba harimo ubusitani, hamwe akaba ari itaka ahandi harimo ibyatsi.

Ikigo kigaragara nk'ikigo cy'amashuri abanza ariko kigaragara nk'ikigo gisa n'igishaje imbere yacyo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse imbere yacyo hakaba hari ibiti birebire biri kurenga kuri icyo kigo kikaba gisakarishije amabati y'umutuku nacyo kirimo n'inzugi zisize irange ry'umuhondo.

Ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya ndetse no guca imirongo harimo amarati y'ubwoko butandukanye, aya mpande eshatu, amarate ya cyimwe cya kabiri cy'uruziga, amarati maremare ndetse n'ikaramu y'igiti y'umukara.

Abana barimo gukora amasuku bigaragara ko biga mu mashuri abanza. Hakaba harimo abari gusasa, abarimo guhanagura ibintu bigiye bitandukanye ibikoresho ndetse hakaba harimo n'abari gukoropa, mu buryo bwo kongera isuku mu ishuri.

Igikoresho kibikwamo ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya nk'amarati y'ubwoko bwose, ibyifashishwa mu guconga amakaramu y'igiti, ibyifashishwa mu guca uruziga ndetse n'ikaramu y'igiti, isa umuhondo.

Ibishushanyo bishushanyije bigaragaza uko imiterere y'inyamaswa zitandukanye byakwifashishwa nko kwereka abanyeshuri ibishushanyo, harimo inkoko, ifi, urukwavu ndetse n'ipusi bishushanyije neza kandi bigaragara uko bisa.

Abana batoya babiri bari mu cyumba umwe akaba arimo gusasa, undi ahagaze impande hari imbwa irimo kureba uburyo arimo gusaza, barimo gusasa amashuka asa ubururu ndetse harimo n'umufariso usa umweru.

Akanyugunyugu kari ku karabo. Ako kanyugugu kakaba gafite amabara meza, amabara y'umweru, umukara, umuhondo, umutuku ndetse n'andi mabara agiye atandukanye, kakaba kari guhovwa mu ndabyo.

Icyapa kiranga ikigo cyigisha ububyaza n'ubuforomo mu karere ka Nyagatare, icyo kigo kikaba kigaragara neza kandi kigaragara ko ari kinini cyane kuko gifite amashuri manini kandi gifite n'ubuso bunini.

Udukinisho tw'abana tubafasha nkifashanyigisho, utwo dukinisho tukaba dufite inyuguti zitandukanye nka a, b, c, d, ndetse n'izindi nyuguti kugeza kuri z, aho bibafasha kumenya uko inyuguti bajya bayandika bikorohereza ababigisha.

Udukinisho tw'abana biga mu kiburamwaka tugaragara nk'udukinisho tw'abana b'inshuke tubafasha mu kwihugura ndetse no gushabuka tukabafasha mu myigire yabo kugira ngo babashe gukura bafite ubwenge mu buryo bwo kunoza uburyo bwo kwigisha abana b'inshuke.

Uburezi kuri bose mu Rwanda bakomeje gutera imbere, ahagaragara abana b'inshuke, bambaye amashati asa umuhondo ndetse bambaye hasi n'amakabutura n'amajipo asa icyatsi. Bigaragara ko biga mu nshuke. Aba bana inyuma yabo hakaba hari inyubako yubakishije amabuye.

Aha hari ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya harimo ikaramu y'igiti, hakabamo ibica uruziga ndetse hakabamo n'amarate agiye atandukanye iya mpande eshatu ndetse n'iya kimwe cya kabiri cy'uruziga.

U Rwanda rukomeje kwagura ibigo by'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye ndetse n'aya kaminuza, bigaragara ko aha ngaha ari ikigo gishyashya cyubatswe vuba, ahagaragara nk'inyubako z'uburyo bushya bw'ikigo kibanze.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bigaragara ko bose bambaye ubupfukamunwa nko muri cya gihe cyo kwirinda icyorezo, bigaragara ko bari kumwe n'abayobozi bo mu nzego z'umutekano ndetse n'umurezi wabo, bose bakaba bambaye ubupfukamunwa.

Ahagaragara ko uburezi bukomeje gutera imbere hagaragara inyubako nini cyane y'ibigo by'amashuri, hari amashuri menshi ndetse inyuma y'ayo mashuri hakaba hari imodoka ndetse n'ipikipikiri iri hepfo ndetse n'abandi baturage bahari ndetse n'abicaye ku gikuta.

Ibitabo byifashishwa nk'imfashanyigisho byifashishwa mu guhugura abana mu mashuri abanza, harimo igitabo cyo mu wa mbere, igitabo cyo mu wa kabiri ndetse n'icyo mu wa gatatu bigiye bishushanyijeho abantu, ibyo bitabo bikaba byifashishwa mu buryo bwo kwigisha no kunoza imyigire n'imyigishirize mu mashuri.

Umurezi wambaye agapfukamunwa k'umutuku bigaragara ko ari ku kigo, akaba agaragara nk'umwarimu wigisha kuri icyo kigo, amashuri akaba yubakishije amatafari ahiye ndetse arimo inzugi zisize irangi ry'ubururu bwerurutse.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Rwanda ahagaragara ibikoresho byose bikenerwa ko umunyeshuri yakenera agiye kwiga harimo ibimufasha gushushanya, ibimufasha kwandika ndetse n'ibyo yandikamo, harimo amakaye ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya harimo amarati ya mpande eshatu abiri ndetse n'irati na kimwe cya kabiri cy'uruziga ndetse n'irati ica umurongo muremure ndetse n'ako bibikwamo n'ikaramu y'igiti ndetse n'ibifashwa mu guca uruziga.

Icyumba cyiza cyane, gisa n'icyigishirizwamo, bigaragara nkaho baba bigira mu matsinda, bitewe nuko harimo ameza ndetse n'intebe zigiye zikikije ayo meza. Izo ntebe zikaba zisa umutuku ndetse n'ubururu ndetse icyo cyumba kikaba giteguye neza cyane.

Ikigo cy'amashuri kigaragara mu kibayakaba, akaba ari ikigo cyubatse neza gisize amarangi meza, asa umutuku ndetse n'umuhondo, gisakarishije amabati meza asa ubururu, impande yacyo hakaba hari ibiti byoherezamo umwuka mwiza ndetse hanze hakaba hari n'ikibuga.

Agakoresho kakifashishwa nk'imfashanyigisho mu kwigisha imibare abanyeshuri biga mu mashuri, ako gakoresho kakaba kariho imibare igiye itandukanye, nka kane gukuba gatanu bihita bibyara makumyabiri bagahita babyerekana, gakoze mu ikarito ndetse no mu gapapuro gaciye neza k'umurongo.

Abanyeshuri bigaragara ko bari ku murongo, bakurikiye umuyobozi wabo arimo gutumiza umwe mu banyeshuri ngo aze imbere, bigaragara ko bose bamurangariye ari we barimo kureba ko aza imbere.

Umunyeshuri uri guhabwa n'abarezi ibikoresho by'ishuri kugira ngo abashe kuba yakiga, ibyo bikoresho akaba ari kubihabwa n'umudamu ndetse n'umupapa, uwo mudamu akaba afasha na mikoro mu ntoki.

Abanyeshuri basa n'abiga mu kigo kisumbuye bose bari hanze y'ishuri ryabo, imbere yabo hari umurezi wabo urimo kugenda bo bakaba batonze umurongo bareba mu kibuga bamwe bari iburyo abandi bakaba ari ibumoso.

Abanyeshuri bari ku murongo bigaragara ko hari abiga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, abanyeshuri bakaba bari ku murongo bambaye neza, harimo abambaye amakaruvate ndetse n'abambaye hejuru amashati y'umweru.

Umunyeshuri n'umubyeyi we bisa naho yamuherekeje amuzanye ku ishuri bwa mbere kuko biragaragara ko aribwo bwa mbere yagera muri icyo kigo bitewe n'uburyo agaragara mu maso nk'ufite umunyeshuri akaba ari kumwe na mama umubyara.

Abanyeshuri basa n'abiga mu mwaka wisumbuye w'amashuri, ahagaragara ko bari ku mirongo, aho buri wese asiga intera hagati ye n'undi muntu uri inyuma ye. Ni buryo bwo kwirinda akavuyo no gukwirakwiza indwara.

Abanyeshuri batatu bicaye hamwe abo banyeshuri batatu bikaba bigaragara ko bishimye cyane, bambaye amakaruvati asa icyatsi ndetse bakaba bafite ikirangantego k'ishuri ku mifuka yabo, bambaye amashati y'umweru n'inkweto z'umukara zifite amasogisi y'umweru.

Abanyeshuri bicaye basa n'abari mu nama bakaba bicaye mu busitani bw'ikigo cyabo, inyuma yabo hakaba hari umurezi wabo urimo kureba inyuma mu muhanda w'amabuye, aho ngaho bikaba bigaragara ko basa n'abahuze bari mu nama.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bigaragara ko bose bari ku murongo, basa naho bagiye mu gikorwa kimwe gishobora kuba ari nk'igikorwa cyo kwibuka cyangwa ikindi gikorwa gitandukanye, kuko imbere hari abafite ikirango ndetse n'izindi modoka.

Abanyeshuri bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye, aho iterambere ry'uburezi rikomeje kuzamuka, bigaragara ko mu myaka iri imbere, uburezi buzaba bugeze ku kigero kiri hejuru cyane bitewe n'uburyo abanyeshuri bakomeje gushishikarizwa kwiga.

Umunyeshuri uhiga abandi bigaragara ko yahawe igikombe, bitewe n'ibikorwa by'ubutwari yaba yarakoze, icyo gikombe kikaba kigaragara, kiriho amabara agiye atandukanye n'udushumi tw'amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abakozi basa n'abari mu nama bambaye amajiri, buri wese imbere ye hateretse icupa ku meza ariho igitambaro cy'ubururu bigaragara ko basa n'abari mu nama kandi bahuze bafite ibyo barimo kwigaho.

Ikigo kigaragara nk'aho ari ikigo cy'abakobwa gusa kuko harimo abakobwa gusa, icyo kigo hagati yabo aho bicaye hakaba hagaragara umuzungu uri hagati yabo gusa bigaragara ko abo bose bishimye.

Abanyeshuri barimo kwiga bisa naho bari guca imirongo, inyuma yaho hari umwarimu ubigisha bisa naho ari kubigisha imibare kuko ku kibaho handitse ibintu by'imibare.

Abanyeshuri biga mu kigo kisumbuye bigaragara ko bari mu nama. Aho bakurikiye umuyobozi wabo arimo gusobanura ibintu bigiye bitandukanye. Abanyeshuri bakaba bambaye bitandukanye bigaragara ko byaba ari n'ibigo bibiri bitandukanye.

lcyumba kigaragara nk'ishuri ry'amashuri yisumbuye, aho hanze hagaragara abarimu bigisha abanyeshuri ndetse n'abandi banyeshuri ,bagaragarira mu madirishya nko mu birahure basa n'abari ku murongo.

Abanyeshuri n'abayobozi babo ndetse n'abarezi babo, bigaragara ko bakurikiye inama imbere y'ikigo cyabo. Aba banyeshuri bakaba bambaye imipira isa ubururu, irimo umurongo w'umweru ndetse hasi bakaba bambaye kake n'amashati asa umweru.

Ikigo cy'amashuri kiriho ibiti biteye mu kibuga, aho ngaho hakaba hari amashuri menshi atandukanye uruhande rumwe ndetse hakaba hagiye hacamo intera hagati y'ishuri n'irindi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara abanyeshuri bari ku murongo bambaye imipira isa umuhondo ndetse n'amashipo n'amapantaro bya kaki. Ahagaragara ko umuyobozi wabo arimo kubaha amabwiriza.

Umunyeshuri uri kumwe n'umurezi we uwo murezi bikaba bigaragara yuko ari kumuha icyangombwa kigaragara ko yaba yakoreye ndetse nk'igihembo agahabwa n'umupira wo kwambara w'umutuku.

Abanyeshuri basa n'abari mu ishuri barimo kwiga, barimo bose bari kwandika, bigaragara ko buri wese ahuze mu buryo bwo kwiga bitewe n'uko buri wese bigaragara ko ahuze, bakaba bambaye amashati y'umweru, buri wese yambaye n'agapfuka k'umukara.

Abanyeshuri bagaragaramo abiga mu mashuri yisumbuye abo banyeshuri bakaba bambaye imipira y'umutuku abandi bakaba bambaye imyenda igiye isanzwe bicaye bose basa n'abari mu nama ndetse no hakurya hakaba hari abantu benshi.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko ari mu cyumba cy'isomero, uwo mwarimu akaba yicaye ku ntebe, inyuma ye hari ameza ateretseho ibitabo bigiye bitandukanye. Icyo cyumba bikaba bigaragara ko ari cyo kibikwamo ibitabo byose by'ikigo bikenerwa mu myigishirize.

Abanyeshuri bigaragara ko bari mu ishuri barimo kwiga, bigaragara ko u Rwanda rukomeje gutera imbere mu myigishirize n'imihugurire y'abanyeshuri, abanyeshuri bakaba bambaye amashati ajya gusa ubururu n'ubupfukamunwa, bigaragara ko ari muri cya gihe cyo kwirinda ibyorezo.

Abanyeshuri basa n'abiga mu kigo cyisumbuye, bigaragara ko bari mu nama, abanyeshuri bakaba bambaye imipira isa icyatsi ndetse abandi bakaba bambaye iy'ubururu, bigaragara ko bose basa naho biga mu bigo bitandukanye.

Abanyeshuri benshi cyane batandukanye bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye, aho hagaragara ko bambaye amashata asa umweru ndetse bambara n'imipira isa icyatsi kibisi bigaragara ko hari umwe urimo kwandika.

Abanyeshuri barimo gukora imirimo y'amaboko, bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kwimenyereza imirimo y'amaboko mu mashanyarazi, barimo bakora bubaka amashanyarazi, agiye atandukanye, mbese bafite n'ibikoresho byabo imbere.

Igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'umunani, handitseho twibuka twiyubaka byo mu kigo cya Mutagatifu Andrew, bigaragara yuko icyo gikorwa cyitabiriwe n'abantu benshi kuko hagaragara amatente arimo abayobozi.

Abanyeshuri bambaye neza bigaragara ko bameze neza kandi bambaye ku buryo bukwiranye n'umunyeshuri wese, bambaye imipira y'umukara, bakaba bambaye amakanzu asa neza cyane y'icyatsi.

Uburezi mu Rwanda bukomeje gutera imbere ahagaragara abanyeshuri benshi basa n'aho bari mu rusengero cyangwa se bari mu gitaramo, aba banyeshuri bakaba bambaye neza bambaye amakanzu asa icyatsi, imipira y'icyatsi kibisi ndetse n'amashati y'umweru.

Abanyeshuri bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye, buri wese afite imashini ya mudasobwa imbere ye, bose basa n'abahubuze barimo kwiga.

Abanyeshuri bagaragara nk'abari mu gikorwa cy'abanyamashanyarazi. Aba banyeshuri bikaba bigaragara ko bambaye amasarubeti, bigaragara ko buri wese arimo gukora ahuze, bose bari gukora imirimo y'amaboko.

Abanyeshuri bambaye neza cyane bakoze imirongo igiye itandukanye bitewe n'ibigo bigamo, abo banyeshuri bakaba bambaye amakaruvati, amashati y'amaboko maremare ndetse n'amajipo y'umukara, inkweto z'umukara ndetse n'amasogisi y'umweru.

Ahagaragara ko hahurira abantu benshi bagiye ku bwiherero ndetse hakaba hariye abagabo bambaye amajiri, imbere yaho hakaba hari iyindi nzu y'ubwiherero ifite ibyumba bibiri ndetse n'ikigega kiri imbere yayo.

Abanyeshuri basa n'abiga mu mashuri yisumbuye, barimo gukoresha mudasobwa zisa umweru. Abanyeshuri imbere yabo hakaba hari umwarimu ubigisha ibijyanye na mudasobwa ahagaze ndetse harimo n'abandi bari kuza gutwara mudasobwa imbere.

Abanyeshuri basa naho bari ku murongo, abanyeshuri bakaba bagiye basigamo intera hagati yabo mu buryo bwo kwirinda ikwirakwizwa ry'indwara ndetse n'ibyorezo bikunze kwibasira isi, bigaragara ko bakomeje kwita ku byo bagomba gukora.

Mu banyeshuri harimo umwe wambaye ijire ya Croix Rouge abandi bakaba bari inyuma yabarikuza baza imbere ari abakobwa bari inyuma y'uwo nguwo wambaye ijire ya Croix Rouge bose bari ku murongo bagiye basigamo intera mu uburyo bwo kwirinda gukwirakwiza indwara.

Abanyeshuri basa n'abari gusubiramo indirimbo, imbere yabo hari urimo kubayobora, bitewe n'izuba barimo kwiga ku buryo bigaragara ko ari umugabo wambaye hose umukara, abanyeshuri bakaba bambaye imipira y'umukara ndetse n'iy'ubururu bwererutse.

Abakozi basa n'abari ku murongo abenshi muri bo bambaye amajire y'umweru ndetse n'icyatsi, aba bakozi bakaba bigaragara ko bari kwinjira ahantu mu biro aho harimo n'abambaye ingofero zo kwirinda mu mutwe.

Uburezi mu mashuri mu Rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara abanyeshuri benshi, bagaragara nk'aho bari mu kibuga cy'umukino w'amaboko, bagiye mu gikorwa runaka. Abo banyeshuri bakaba bambaye bigaragara neza kandi bigaragarira ijisho, bambaye imipira iciye amaboko y'icyatsi ndetse n'iy'umuhondo, hasi bose bakaba bambaye umukara.

Abakobwa babiri barimo kugenda mu kayira, impande yabo hari ubusitani burimo indabyo, mu kayira k'abanyamaguru kakaba gasashemo amapave, ku buryo ntabitaka byabasimbukira ngo bibe byabanduza.

lnyubako yigaragara nk'icyumba cya kaminuza cyigishirizwamo. Iyo nyubako ikaba isize ku gikuta cyayo irangi risa umweru, ifite inzugi zisize irangi risa n'ivu ndetse ririmo na serire.

Intebe zigaragara nk'izikoreshwa muri kaminuza, zigiye ziba zifite aho kwicara ndetse n'utumeza twazo ku ruhande, izo ntebe zikaba zisa ubururu, ari intebe ziba zifite umwenge hasi, zigaragara nk'aho ari intebe zigezweho.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bigaragara ko bari mu ishuri barimo kwiga, imbere yabo hari imashini yerekana ku kibaho ibyo barimo kwiga ndetse n'imashini ifotora, impande yabo hari mudasobwa.

Ishuri rigaragara igice cy' imbere, iryo shuri rikaba rifite umuryango, bigaragara ko imbere harimo abanyeshuri, uwo muryango ukaba wubakishije ibyuma bisize irangi rijya gusa n'ivu ndetse ririmo n'ibirahure, hejuru harimo parafo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bigaragara ko bari mu igenzura ry'ibyo bakora bitewe n'ibyo biga, bigaragara ko bose basa n'abahuze kandi barimo gukora imirimo y'amaboko, bigaragara ko bose basa n'abakora ibintu bitandukanye.

Umuhanda munini ushashemo amapave, imbere hakaba harimo kona ndetse bikaba bigaragara yuko ku mpande hari ubusitani buteyemo indabyo ziconze neza ndetse hakaba harimo n'imirima ihinze idateyemo ibintu.

Ahangaha hagaragara ubukorikori mu bijyanye no kubumba ibintu bitandukanye harimo imbabura byose bigakugwa mu ibumba ahagaragara ubugeni buhambaye ko abanyarwanda bakomeje kuzamuka mu bugeni bwo kubumba ibikoresho bikozwe mu ibumba.

Inyubako igaragara nk'icyumba k'ishuri, bigaragara ko ari iya Kaminuza y'u Rwanda. Yanditseho umubare icyenda ndetse n'inyuguti ya ma na pa na zeru rimwe, ikaba ifite igikuta gisa ubururu n'inzugi zirimo ibirahure, zisize irangi risa n'ivu.

Aha ngaha haragaragara agapfukantoki k'amabara abiri atandukanye, umukara n'umuhondo. Kakaba gakoreshwa mu buryo bwo kwirinda kuba wakomereka mu kiganza ndetse no mu buryo bwo kwirinda, ibiza byose wahura na byo ku kiganza.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, bigaragara ko bose bahuze, barikurikiye imbere yabo, uri kubasobanurira ufite mikoro, arimo kuvugiramo, ubu akaba bigaragara ko yaba ari umwe mubayobozi babo, urimo kubabwira gahunda uko zikurikirana.

Icyumba kigaragara nk'icyumba cy'uruganiro, kirimo intebe ziteguye neza kandi ziteretse, izo ntebe zikaba ari nk'intebe zikoreshwa muri kaminuza, zifasha abanyeshuri kwiga, aho bigira akaba ari naho bandikira, byose bikorewe ku ntebe imwe. Izo ntebe zikaba zisa ubururu.

Ishuri rigaragara neza kandi ryubatse neza, rigaragara nk'ishuri rya kaminuza, by'umwihariko rigaragara nk'iry'imyuga n'ubumenyin ngiro, iryo shuri rikaba ryubatse rifite inzu zigeretseho hejuru yaryo, iruhande hasi hakaba hashashemo amapave.

Ikigo cy'amashuri kigaragara ko hanze hari ako bacaniraho umuriro w'amashanyarazi, icyo kigo kikaba gifite urugi rusize irange rijya gusa n'ivu ndetse hakaba hariho ikirahuri kibonerana ku buryo hari umuntu ubasha kuboneka.

Abanyeshuri basa n'abiga muri kaminuza, aba banyeshuri bakaba bakurikiye umwarimu wabo uri imbere yabo, bose bakaba bamwe bafite telefoni mu ntoki, harimo ufite imashini ya mudasobwa imbere ye ndetse na mwarimu aka afite mudasobwa imbere ye.

Intebe imwe muri za ntebe zigezweho, ikaba iteretseho urupapuro ndetse n'ikayi, uru rupapuro rukaba rugaragara nk'urw'umunyeshuri yigiraho. Bigaragara ko ari urw'umunyeshuri wiga muri kaminuza y'u Rwanda ndetse na n'ikayi iri hejuru.

Abarimu basa naho bahugiye muri mudasobwa, barimo kwandikamo ibintu bigiye bitandukanye. Bakaba bafite n'amakaramu impande yabo bigaragara ko bose bahuze, abo barimu bakaba basa n'abahuze bose.

Umunyeshuri wiga muri kaminuza, bigaragara ko arimo gukora imirimo y'amaboko mu bijyanye n'ibyo yiga. Akaba yateretse telefone ku ruhande ndetse n'indobo y'icyatsi iri iruhande rwe, bikaba bigaragara ko yitandiyeye, bishoboka ko ari umuyisilamu.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara igice gitoya ariko hakagaragara n'umurongo wo hagati w'umuhondo, impande y'uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hari ibisima bibumbye bigiye bitwikiye ahaca amazi mu buryo bwo kwirinda impanuka.

Abanyeshuri bicaye basa naho barimo kwiga ku buryo buri wese afite ibyo ahugiyemo, imbere yabo hari umurezi wabo urimo kubasobanurira, bose bakaba bicaye mu ntebe zisa ubururu nziza zegamirwa kandi zigaragara neza.

Ikigo cy'ishuri rya kaminuza, kigaragara igice cy'imbere, icyo kigo kikaba cyubatse neza gisize amarangi y'umweru, amadirishya yacyo akaba asize irangi risa n'ivu ndetse kikaba gisakawe n'amabati y'ubwoko bw'amategura.

Ibibumbano bisa n'imbabura izo mbabura zikaba zibumbye mu ibumba, zisa amabara atandukanye harimo izisa umukara tsiriri ndetse n'izijya kuba umuhondo izindi zikaba zisa icyatsi bigaragara yuko igikorwa cy'ububumbyi gikomeje gutera imbere.

Abantu benshi bagaragara nk'abanyeshuri bari mu ishuri, bigaragara ko bari mu nyubako nini cyane, icyumba cyo kwigiramo kandi bose imbere yabo hasa n'ahari amakaye yo kwigiramo ndetse hateretse n'amazi, bigaragara ko barimo kwiga cyangwa se mu nama.

Abanyeshuri basa n'abarangije icyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri cya kaminuza bambaye amakanzu ndetse n'ingofero bigaragaza impamyabushobozi ndetse n'impamyabumenyi bahawe n'ishuri rya kaminuza.

Abanyeshuri bigaragara ko barimo kwiyandikisha nk'abaje kwiga ku ishuri bwa mbere, bigaragara ko imbere yabo hari abarimo kubandika, bandika imyirondoro yabo ko baje umuntu ku muntu.

Icyumba kigaragara nk'icyumba cy'uruganiriro, kirimo terefoni, ifunguye ndetse kikaba kirimo n'intebe zigiye zitandukanye, harimo intebe zikoreshwa zifite ameza yazo bikoranye z'ubururu.

Abanyeshuri ba kaminuza, bari kwiga imbere yabo hateretse imashini za mudasobwa. Bose bakaba bakurikiye mwarimu wabo, aho bigaragara ko ari kwigishiriza imbere, aho urumuri rw'ibyo yigisha ruri kugera.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, abanyeshuri bikaba bigaragara ko buri wese imbere ye hari mudasobwa kandi bikaba bigaragara ko hari abanyeshuri bajijutse kuko buri wese imbere ye hateretse mudasobwa ndetse n'ikayi ari kwandikiramo, bagasa naho bari gusobanurirwa na mwarimu wabo imbere.

Abaturage bigaragara ko bari mu nama, ni baturage bakaba bariri mu cyumba, kigaragara nkaho ari icyumba kinini kandi gikoze neza, bikaba bigaragara ko imbere hari abarimo kubaha ikiganiro ndetse bikaba bigaragara ko basa naho ari abanyeshuri, biga muri kaminuza.

Itaburete ndetse n'izindi ntebe za kizungu zisa neza z'ubururu, zifite utwobo munsi mu mpande. Izo ntebe zikaba ziteretse ahantu hamwe, hari igikuta kiriho amakaro y'amabara y'umweru n'umukara, kirimo n'amadirishya n'inzugi bisa icyatsi.

Ubusitani busa neza ubwo busitani bukaba bukikijwe n'indabyo zikatiye neza kandi ziconze, iruhande rw'ubwo busitani hakaba hari inzira y'abanyamaguru, iyo nzira ikaba isashemo amapave ndetse ku mpande hariho umurongo wa sima w'umweru ndetse n'umukara.

Ibiro bigaragara nk'ibiro bya kaminuza, ahagaragara ko ari kuri kaminuza y'u Rwanda, aha ngaha biragaragara ko hari ibiro byubatse neza, bisakarishije amabati ajya kwifata nk'amategura, ibyo biro bikaba bisize irangi ry'umweru ndetse n'inzugi zaho zikaba zisa umweru zimwe izindi zisa n'ivu.